Abakozi ba leta bicaye ku meza, bari kuganira ku bintu byateza imbere igihugu, bakaba bari kuganira n'undi musore wicaye hagati hamwe n'umudamu wicaye iruhande rwe, ufite igikoresho cy'ikoranabuhanga cya mudasobwa.

Ahantu hagenewe kwakira inama ndetse hakaba hahuriyemo n'abakozi ba leta mu nzego zitandukanye aho bari kwiga ku bibazo bitandukanye, hamwe n'ibikoresho byabugenewe gutwara amashusho biyajyana ahandi.

Umunsi wagenewe kwizihiza, igikorwa cyo gusura ibikorwa remezo nyarwanda, haba hahuriyemo n'abayobozi ndetse n'abandi bayoboye inama, harimo abagabo ndetse n'abagore, bose bicaye aho abantu babareba bose, hamwe n'ibyapa bigaragaza igikorwa barimo.

Ahantu hateraniye hamwe n'abayobozi bari mu nzego zitandukanye, bakaba bose ari uburyo leta yashyize bwo guhuriza hamwe abakozi bayo, bakaba bakika ku buryo bakemura ibibazo bigiye biri mu gihugu, hakaba hahuriwemo abakozi bayo benshi.

Uburyo leta yateganyije bwo gukura abakene, bakabahereza amatungo magufiya kugira ngo azajye abafasha mu bikorwa byabo bya buri munsi. Hakaba hari n'abayobozi bari hafi aho ndetse n'abaturage, bigaragara yuko bahawe ihene.

Uburyo leta yateganyije bwo guhura n'abayobozi bagiye batandukanye, bakaba baganira ku bibazo bigiye bitandukanye aribyo byo kwiga cyangwa guteza imbere igihugu, akaba ari inama yahuriwemo n'abayobozi, abagabo n'abagore bose bafite ibikoresho.

Uburyo leta yateganyije mu kuganiriza abantu benshi hifashishijwe abakozi ba leta, hakaba hari abagabo ndetse n'umugore bose bicaye bitegeye abantu, ndetse n'icyo kunywa iruhande rwabo.

Uburyo bumwe bwateganyijwe na leta bwo guhuriza hamwe abakozi bayo bakaba baganira ku bibazo bihangayikishije bashobora gukemura kandi bose bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga imbere yabo ari byo mudasobwa ndetse n'ibikoresho by'indangururamajwi.

Ukuntu Leta yagiye iteganya inama zigenewe urubyiruko mu kwihutisha iterambere, kugira ngo rigabanye ubwinshi bw'abakozi bukoreshwa, hakaba hateraniyemo abasore n'inkumi, bose bicaye mu buryo bw'amatsinda.

Ahantu hagenewe kwakira abantu benshi bagiye batandukanye hakaba haberamo inama, ubukwe ndetse n'ibindi bitandukanye. Abantu bakaba bicaye mu buryo bw'amatsinda kandi buri bose bagiye bafite ameza imbere yabo ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga, hamwe n'amazi yo kunywa imbere yabo.

Uburyo leta yateganyije bwo kuganiriza abantu ku bibazo bigiye bitandukanye hakaba hari intumwa za leta zihagaze imbere yabo zifite n'ibipapuro biriho ibyo bateguye kuvuga bose bakaba bari kubitangaza imbere y'abantu ndese n'abandi bafatanyabikorwa babo bicaye inyuma.

Uburyo leta yateganyije bwo guhuriza hamwe urubyiruko bakaba bakiga ku bijyanye n'ibintu bishobora kubashuka kandi bose bakaba bafite ibyo kunywa imbere yabo.

Uburyo leta yateganyije bwo guhuriza hamwe abakozi bayo, bakaba bakora inama, bakiga ku bibazo bitandukanye, harimo abagore ndetse n'abagabo n'abakobwa bose bafite amazi imbere yabo.

Inama yahurije hamwe abayobozi bo mu nzego z'umutekano cyangwa za leta, bakaba bari kwiga ku kibazo uburyo bagikemura hakaba hari abagabo ndetse n'abadamu, bose bicaye barebana ndetse n'amazi imbere yabo.

Ahantu hagenewe gukorerwa ibintu bitandukanye, hakaba hahuriwe n'abantu imbaga nyamwinshi bose bicaye mu matsinda kandi bose imbere yabo hari ameza ndetse n'ibyuma bishinzwe gutwara amashusho ahantu.

Abakozi ba leta bari mu nzego zitandukanye bahuriye hamwe bateze amatwi bari kubwirwa ikiganiro hakaba hari abagore n'abagabo bose bicaye bitegeye umuntu uri kubabwira imbere.

Uburyo leta yateganyije bwo guhuriza hamwe abakozi bayo bakaba baganira ku bibazo bigiye bitandukanye kandi bose bicaye imbere y'ameza, bafite amazi yo kunywa ndetse n'ibikoresho bya mudasobwa

Uburyo leta yashyizeho bwo guhuriza hamwe abantu bari mu ngero zitandukanye aribo abakozi ba leta bari kwiga ku bibazo bitandukanye kandi bose imbere y'abo bafite indangururamajwi ku.

Uburyo bugiye butandukanye, leta yagiye iteganya bwo guhuriza hamwe abakozi bayo. Harimo abagabo n'abagore bose bakaba baganira ku buryo bakemura ibibazo byabo, hifashishijwe indangururamajwi zabo ndetse n'ibikoresho bya mudasobwa.

Bumwe mu buryo leta yateganyije bwo guhuriza hamwe abaturarwanda bakaba baganirizwa mu bintu bitandukanye hakaba hari n'umugabo uri kuvuga ikiganiro mbwirwaruhame ahagaze imbere y'abantu.

Gahunda ya Leta yagiye iteganya, ku bwo guhuriza hamwe abakozi bayo, bakaba bakiga ku buryo bakemura ibibazo bitandukanye, hifashishijwe inyakiramashusho ndetse n'ibikoresho bya mudasobwa.

Uburyo leta yateganyije bwo guhuriza hamwe abakozi bayo mu nzego zitandukanye, bakaba baganira ku bibazo bigiye bitandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore bose bicaye ku meza bafite n'ibikoresho bya mudasobwa.

Uburyo Leta yateganyije bwo guhuriza hamwe abakozi bayo, bakaba bakiga ku bibazo bigiye bitandukanye bakemura ndetse n'abandi bakozi bagiye bicaye hamwe n'undi bahagaze, uri kubabwira ikiganiro mbwirwaruhame. Kandi bose bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga imbere yabo.

Uburyo Leta yateganyije bwo guhuriza hamwe abakozi, bakaba baganira ku bibazo bitandukanye bakabikemurira mu nama, hakaba hari umuntu ufite indangururamajwi uri kuvuga ikibazo cye ndetse n'ibyapa biri imbere ye, bigaragaza igikorwa barimo.

Uburyo Leta yateganyije bwo guhuriza hamwe abakozi bayo bakaba baganira ku bibazo bihangayikishije bakemura kandi bose bakaba bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga imbere yabo aribyo mudasobwa hamwe n'indangururamajwi.

Uburyo leta yagiye iteganya bwo guhuriza hamwe abaturage bo mu midugudu, bakaba baganirizwa ku ngingo runaka, hifashishijwe abayobozi babo, hakoreshejwe n'ibikoresho by'irangururamajwi kugira ngo babashe kumvikana.

Bumwe m'uburyo leta yateganyije bwo guhuriza hamwe urubyiruko bakaba baganira ku bibazo bya bugariza hakaba hari abagore ndetse n'abakobwa bose bateraniye aho ngaho.

Uburyo leta yateganyije bwo guhuriza hamwe abakozi bayo bakaba bakiga ku ngingo zitandukanye kandi bose bakaba bafite amazi iruhande rwabo ndetse n'impapuro.

Uburyo leta yateganyije bwo guhuriza hamwe abakozi ba leta, bakaba baganira ku iterambere ryo mu Rwanda ndetse hakaba ryateraniwemo n'abantu b'ingeri zose barimo abagabo ndetse n'abagore.

Uburyo leta yateganyije bwo guhuriza hamwe abayobozi bari mu nzego zitandukanye, bakaba bakiga ku bibazo bakemura hagati yabo bitewe n'uko ari abayobozi, bakaba bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga imbere yabo ari byo mudasobwa ndetse n'amazi yo kunywa iruhande rwabo.

Uburyo leta yateganyije bwo guhuriza hamwe urubyiruko bakajya inama; harimo abakobwa ndetse n'abahungu; hakaba hari n'abayobozi bayoboye iyo nama; hakaba hari n'icyapa kigaragaza igikorwa kiri kuberaho.

Ahantu hateganyijwe n'ikigo gishinzwe kwakira abantu, haba muri resitora ndetse n'ahandi abantu bashobora kwiyakirira, hari udutebe abantu bicaraho bakaganira barebana.

Igikorwa remezo cyubatswe n'ikigo gishinzwe itumanaho mu Rwanda, ndetse n'ihererekanywa ry'amafaranga, umunara cyubatse ushinzwe kwihutisha uburyo bwo gutumanaho hagati ya terefone ndetse n'iyindi.

Ubutumwa leta yateganyije bwo kohereza abaturarwanda mu buryo bwo kubaburira, abantu bose bateka imitwe bakaba babahuguguza amafaranga yabo, binyuze mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Ibikorwa remezo ari byo amazu aturiye umuhanda yagenewe gucururizwamo ibintu bitandukanye, birimo ibiribwa ndetse n'ibinyobwa ndetse n'ahantu batangira serivisi, imbere yaho hakaba hari ahantu hanyura ibinyabiziga ndetse n'abanyamaguru.

Uburyo leta yateganyije bw'urubuga rwitwa Irembo ushobora gusura ukaba wahabwa ubufasha binyuze kuri urwo rubuga bitabaye ngombwa ko ujya ku mashami yaho nko ku murenge, ube wabona ubwo bufasha.

Ahantu leta yateganyije ushobora kugana mu gihe cyose waba nta gikoresho cya mudasobwa ugira, ukaba wahagana ukaba wakoresha mudasobwa wishyuye amafaranga makeya ndetse ukahabona na murandasi.

Igikorwa remezo cya leta, ari cyo ipoto ryagenewe gutwara amashanyarazi, rikaba rigizwe n'ibyuma biterateranyije ndetse n'amabara y'umutuku n'umweru gihagaze mu kibanza.

Uburyo leta yateganyije ari bwo urubuga rwashyizweho na yo, ushobora kuba wasura ukaba wabonaho ubufasha butandukanye, harimo nko kwishyura mituweri cyangwa kubona nimero z'ikibanza.

Uburyo Leta yateganyirije abanyeshuri bwo kumenya uburyo mudasobwa ikora haba mu mashuri ndetse n'ahandi, hakaba hari aho bateraniye bose bafite mudasobwa bari kucukumbura.

Uburyo leta yateganyije ngo urubuga ushobora gusura ukaba wabonaho uburyo bugiye butandukanye ushobora kubona amakuru y'ubujyanye no kuva mu gihugu kimwe cyangwa ujya mu kindi, ukaba wabonaho amakuru.

Uburyo leta yateganyije bwo gusura urubuga rw'irembo, ukaba wakuzuza umwirondoro wawe, ukaba wahabwa ikizamini cyo kubona uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga.

Uburyo bundi leta yateganyije bwo gushinga amafoto akozwe mu byuma bigiye bitandukanye, byegeranyijwe bikaba byaragenewe kunyurwaho insinga z'amashanyarazi kugira ngo zitware umuriro.

Bumwe mu buryo leta yateganyije bwo gushyira ibikorwa remezo aribyo amapoto mu mihanda yagenewe gutwara amashanyarazi, ayavana aho akorerwa ayageza aho akoreshwa nko mu ngo z'abantu.

Uburyo leta yateganyije bwo gushinga amapoto hakaba hanyuramo imiyoboro igenewe gutwara amashanyarazi haba mu ngo ndetse no mu nganda hakaba rishinze ahantu mu busitani hegereye ibiti ndetse n'amazu yo guturamo.

Uburyo leta yateganyije bwo gushinga amapoto ku mihanda kugira ngo atware insinga z'amashanyarazi, ziyageza mu ngo z'abantu, mu nganda ndetse no mu bindi bikorwaremezo bigiye biraho, hakaba hari n'ibiti bigiye biri impande y'icyo gikorwa remezo.

Ibyuma byagiye biteganywa bigashyirwa ahantu hose hahurira amashanyarazi menshi kikaba cyayayagagabanyiriza ubukana ku buryo yakoreshwa n'abaturage akaba ari igikorwaremezo cya leta.

Uko leta yagiye iteganya uburyo bwo gushinga amapoto iruhande rw'imihanda kugira ngo ritware amashanyarazi iyavana aho akorerwa riyageza mu baturanyi kugira ngo bayakoreshe.

Uburyo leta yagiye iteganya bwo kubaka inzu zigezweho zagenewe guturwamo ndetse n'ubundi buryo hateganyijwe bwo gushinga amapoto ahantu hanze, agenewe gutwara amashanyarazi mu ngo z'abantu.

Uburyo leta yateganyije bwo gushinga amapoto akozwe mu byuma biterateranyije, bikaba byaragenewe gutwara amashanyarazi mu ngo z'abantu ndetse no mu nganda.

Igikorwa remezo cya leta ari cyo amapoto ashingwa mu muhanda, akaba yaragenewe gutwara amashanyarazi mu ngo z'abantu, hakaba hari n'amazu agiye akikije icyo gikorwa remezo yagenewe gutorwamo.

Uburyo leta yateganyije bwo gushinga amapoto akozwe mu byuma bigiye biterateranyije, kikaba gishyirwa ahantu kugira ngo gitware amashanyarazi; kiyavana aho acukurwa kiyageza ku bantu bayakoresha, harimo n'inganda.

igikorwaremezo cya leta aricyo ipoto ryagenewe gutwara amashanyarazi riyageza mu ngo z'abaturage ndetse mu gihe bwije rikaba ryakatsa amatara akabona.

Igikorwaremezo cya Leta ari cyo ipoto rihagaze iruhande rw'urugo rw'umuntu rikaba rishinzwe gutwara amashanyarazi riyageza mu ngo z'abantu ndetse n'ahandi akenerwa, rikaba riri iruhande rw'ibiti ndetse n'ahantu habugenewe guturwa.

Uburyo leta yateganyije bwo kugeza amashanyarazi mu ngo z'abantu, hifashishijwe ikigo gishinzwe iby'amashanyarazi ndetse n'insinga zigiye ziva ku mapoto, zigera ku mazu y'abantu.

Ahantu habugenewe leta igiye ishyiraho kuko amapikipiki ashobora kujya ajyayo akaba yabona amashanyarazi atuma amapikipiki yabo agenda ndetse n'abakozi bagiye bahagaze aho ngaho.

Igikorwa remezo ari cyo ipoto rishingwa ahagana iruhande rw'ibikorwa remezo aribyo amazu agenewe guturwamo, bikaba ryaragenewe mu gutwara amashanyarazi mu ngo z'abantu.

Uburyo leta yateganyije bwo gushinga amapoto anyuraho imiyoboro ishinzwe gutwara amashanyarazi mu ngo, z'abantu hakaba ariho n'amatara yaka, mu gihe cyose bwije kugira ngo mu muhanda akomeze akaba ari n'amazu agiye ari ku ruhande yagenewe gutorwamo.

Uburyo leta yateganyije bwo kubaka urukarabiro, ahantu hose hahurirwa n'abantu benshi mu buryo bwo kwirinda indwara zigiye zitandukanye, hakaba hari n'icyapa kigaragaza ko aho hantu ari kwa muganga cyangwa hatangirwa ubufasha bwo kwivuza.

Ikigo cyateguwe na Leta ushobora kugana mu gihe cyose ufite uburwayi runaka ukaba wahajya bakakuvura, kandi hari ibyapa bigaragaza ubwishingizi, ndetse hakaba hahurirwa n'abantu benshi baje guhabwa ubufasha.

Igikorwa cyashyigikiwe na leta cyo kubaka umuhanda ugendera mu byerekezo bitandukanye, kandi ukaba unyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, hakaba hari n'akayira abanyamaguru banyuramo ndetse n'inzu zagenewe guturwamo.

Uburyo leta yateganyije bwo kuzana abantu bakekwaho ibyaha ahabugenewe mu binyabiziga bishinzwe kubatwara. Hakaba hari n'abandi bantu bacamanza babarangaje imbere ndetse n'abashinzwe umutekano.

Uburyo leta yateganyije bwo kurahiza abantu bari mu nzego zitandukanye, hakaba hari umucamanza uri hagati y'abagabo babiri, bose bahagaze inyuma y'ameza, umwe amanitse akaboko ari kurahira.

Abakozi ba leta bashyizweho mu kugira ngo bahamye icyaha umunyabyaha cyangwa bamushinjure, bakaba banifashishwa kugira ngo urenganurwe. Bose bakaba bambaye amakanzu abigaragaza ndetse n'amakayi.

Umukozi wa leta wabiherewe uburenganzira, n'ikigo gishinzwe gutanga impamyabumenyi bwo kuburanira abantu, akaba yambaye ikanzu y'abavoka ariyo igaragaza umuntu ushinzwe kuburanira abantu barenganye cyangwa barenganurwa.

Bumwe mu buryo Leta yagiye iteganya bwo kurahiza abakozi babo, kugira ngo batazatatira inshingano zabo bakaba bakora ibibi, ntibazarenge ku ndahiro zabo; akaba ari abakozi bakenewe mu gushinjura abanyabyaha ndetse no kubahamya ibyaha.

Uburyo leta yateganyije bwo gukusanyiriza hamwe abantu bakekwaho ibyaha bakaburanishwa, bakaba bahabwa ibihano, bukaba ari uburyo leta yashyizeho bwo guhabwa ubutabera ku bantu bose bakekwaho ibyaha.

Uburyo leta yashyizeho bwo gukusanyiriza hamwe abantu bagiye bakora ibyaha bitandukanye ndetse n'ikigo bashyirwamo mu buryo bwo kubarinda abandi bantu, bakaba bambaye imyenda isa hamwe n'urukuta rurerure rubarindira umutekano.

Uburyo leta yateganyije bwo kuburanya no kuburanisha abantu bakoze ibyaha bakaba bahabwa ibihano, hakaba hari abashinzwe ubugenzacyaha imbere yabo ndetse n'abashinjwa ibyaha.

Uburyo leta yateganyije bwo guhana abantu bagiye bakora ibyaha kandi hakaba hari inkuta ndende hamwe n'ahantu binjirira ndetse n'ushinzwe umutekano wambaye imyenda ibigaragaza.

Uburyo leta yateganyije bwo gucira urubanza abantu bose bakekwaho ibyaha bitandukanye, hakaba hari umukuru w'urukiko uri kuvuga ndetse n'abantu bashinzwe gutwara amakuru ahantu yabugenewe, hamwe n'indangururamajwi zigiye ziri imbere yabo.

Igikoresho gishyirwa ahantu hateraniye abantu benshi, kikaba cyifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro, mu gihe cyose ije itunguranye, kikaba gishyirwa aho umuntu wese ashobora kugera ku rukuta.

Ibikoresho bishyirwa ahantu hagenewe guhurira abantu benshi, bikaba byifashishwa mu gihe cyose hakenewe kuzimya inkongi y'umuriro, yaba ije ahantu hahurira ahantu benshi mu buryo bw'impanuka.

Igikoresho gishyirwa mu mazu agenewe guhuriramo n'abantu benshi ndetse kikaba cyaragenewe kuzimya umuriro mu gihe cyose habaye inkongi y'umuriro ahantu bitunguranye.

Bumwe mu buryo leta yagiye iteganya bwo gushyira abakozi bayo bashinzwe umutekano mu mihanda kugira ngo nihaba impanuka haboneke umuntu ushobora kuba wakemura ibibazo byoroshye.

Uburyo leta yateganyije bwo gukusanyiriza hamwe abantu bagahabwa imyitozo bakaba bavamo abantu bashinzwe umutekano haba mu muhanda ndetse no mu makaritsiye ahantu hagiye hatandukanye, hakaba hari umuyobozi wabo uri iruhande rwabo.

Ibinyabiziga bikoreshwa n'abashinzwe umutekano mu muhanda, kikaba gifite ibara ry'umweru hamwe n'amatara yereka umuntu uri gukekwaho icyaha mu muhanda yerekwa mu gihe ari kugenda.

Igikoresho gishyirwa mu nzu zabugenewe guhurirwamo n'abantu benshi, kikaba cyifashishwa mu gihe cyose hagize inkongi y'umuriro itunguranye iza aho hantu hateranira abantu benshi.

Ibinyabiziga byagiye bishyirwaho na leta, bishinzwe kuzimya umuriro mu gihe cyose habonetse inkongi y'umuriro ahantu hateraniye abantu benshi, ikaba yakihutira kubatabara.

Uburyo leta yagiye iteganya bwo gushyira abashinzwe umutekano, ahantu hose hahurirwa n'abantu benshi kugira ngo nihavuka ikibazo, babashe kuba bagikemura ndetse n'abantu bari kugenda mu byerekezo bitandukanye.

Uburyo leta yateganyije bwo guhuriza hamwe abakozi ba leta bakaba bakiga ku bibazo bitandukanye akaba ari umugore uri mu nzego zitandukanye akaba arivuga uburyo ikibazo cyakemurwa kandi afite n'indangururamajwi mbere ye.

Umukozi wa leta uri kuvuga ijambo yateguye, wambaye kositimu ishati y'umweru na karavate ndetse n'amazi amuteretse imbere, uri kuvugira mu gikoresho cy'indangururamajwi abibwira abandi.

Uburyo leta yateganyije bwo guhuriza hamwe abayobozi mu nzego zitandukanye, bakaba bakiga ku bibazo bitandukanye. Ikaba yahuriwemo n'abagabo ndetse n'abagore, bose bateze amatwi umuntu uri kuvuga imbere.

Uburyo leta yateganyije bwo kubara no kubarura amajwi yagizwe n'umuntu uzaba umukuru w'igihugu ahazaza, hakaba hari uwagize mirongo icyenda n'ibice cumi na bitanu, undi akagira zeru n'ibice mirongo itanu bitatu, undi akagira zeru ibice mirongo itatu na bibiri.

Abakozi ba leta bari mu nzego zitandukanye, bicaye ku murongo bose bambaye ikositimu bakurikiye umuntu, bakaba bafite ibikoresho by'indangururamajwi imbere yabo kandi imbere yabo hari ameza ateretse ibyo byuma.

Uburyo leta yateganyije bwo kwiyamamariza kuba umukuru w'igihugu aho uvuga imigabo n'imigambi yawe kugira ngo abaturage bakwizere hakaba hari n'abandi bantu bamugaragiye ndetse n'ibyapa bigaragaza igikorwa barimo.

Umukuru w'igihugu uri gutambuka mu ngendo yoroheje, akaba yambaye imyenda, ipantaro y'umukara, inkweto z'umukara n'ishati isa nk'iya gisirikare ndetse na marinete.

Igikorwa gitegurwa na leta aricyo ikirori kigenewe gushimira abayobozi bagiye batandukanye, haba mu buryo bwiza bagiye bitwara, hakaba cyateraniwemo n'abantu bari mu nzego zitandukanye , abagabo n'abagore bose bicaye aho bitegetegeye bareba abantu.

Uburyo leta yateganyije bwo gutora abakuru b'Igihugu kandi hakaba hari abaturage bari gushyigikira iyo gahunda bose binjira mu muryango wabugenewe ndetse n'abandi bari gusohoka bamaze kubirangiza.

Umukuru w'igihugu, gahunda yamo ijyanye no kwiyamamaza yereka aba bamukurikiye ku gipfunsi, yambaye agapfukamunwa ndetse n'ingofero n'abashinzwe umutekano bashinzwe ku murinda.

Umukuru w'igihugu, uhagaze imbere y'imbaga y'abantu benshi, ari kubabwira ikiganiro mbwirwaruhame, hakaba hari n'ibyapa bigaragaza igikorwa barimo ndetse n'abashinzwe umutekano we.

Intwari y'igihugu iri kuva mu kinyabiziga, aho ku ruhande rwe hari umuntu ushinzwe kumucungira umutekano, akaba afite gahunda yo kwinjira mu nzu kandi afite n'ibindi bintu mu ntoki ze.

Igikorwa cyo kwiyamamariza kuba umukuru w'igihugu, ari kuvuga imigabo n'imigambi imbere y'abaturage ndetse n'abandi bagabo ndetse n'abagore bamuherekeje, hakaba hari n'ibyapa bigaragaza igikorwa barimo.

Igitekerezo cya leta ari cyo gushyira ibinyabiziga byagenewe gutwara abantu benshi mu muhanda, kikaba kiri kugendera mu muhanda wa kaburimbo ibumoso ndetse n'ahantu abanyamaguru banyura.

Igikorwa remezo cya leta ari cyo umuhanda wa kaburimbo ugendwamo n'ibinyabiziga mu byerekezo bitandukanye, harimo n'igare ritwara abagenzi hamwe n'ikinyabiziga cyagenewe gutwara abantu benshi, kibavana hamwe kibajyana ahandi.

Uburyo leta yateganyije bwo gushyira ibinyabiziga bishinzwe gutwara abantu benshi, bibavana i Kigali bibajyana mu ntara, bikaba bihagaze ahantu habugenewe bitegererereza abagenzi bakaba babajyana.

Uburyo Leta yateganyije bwo kubaka ahantu habugenewe ibinyabiziga bihurira kugira ngo bitware abantu ndetse n'abantu bahajye biboroheye ndetse n'imihanda ya kaburimbo igiye iri aho hantu ndetse n'urusobe rw'abantu bari kugenda.

Ikinyabiziga kiri mu muhanda wa kaburimbo, cyagenewe gutwara imizigo ishobora kuba ari ikoreshwa mu bwubatsi, hakaba hari n'ibikorwa remezo bindi biri ku ruhande, ari byo inzu yagenewe gukorerwamo ubucuruzi ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ikinyabiziga cy'ikigo gishinzwe gutara amakuru hirya no hino kiri kugendera mu cyerekezo cy'iburyo, umuhanda wa kaburimbo uzamuka ndetse hagati y'imihanda ibiri uzamuka n'umanuka hakaba harimo ibiti ndetse n'ubusitani.

Uburyo leta yateganyije bwo gutwara abantu mu kinyabiziga kimwe kinini kiri kugendera ibumoso mu muhanda wa kaburimbo, hakaba hari n'ibindi binyabiziga biri kubisikana nacyo.

Uburyo leta yateganyije bwo kuzana ibinyabiziga binini byagenewe gutwara ibikoresho bikoreshwa mu bwubatsi ndetse n'imizigo, kigendera mu muhanda wa kaburimbo ndetse n'ahandi hantu abanyamaguru banyura, ndetse n'ibikorwa remezo ari byo inzu zagenewe guturwamo.

Ikinyabiziga kiri kugendera mu muhanda wa kaburimbo gishinzwe gutwara abagenzi, harimo n'umuyobozi wacyo kiri kugendera iburyo bw'umuhanda, hakaba hari akayira abanyamaguru banyuramo ndetse n'ibiti iruhande rw'umuhanda.

Ikinyabiziga gishinzwe gutwara ibikoresho bikoreshwa mu bwubatsi kiri kugendera mu icyekezo cy'iburyo, mu umuhanda wa kaburimbo hakaba hari n'amazu agiye awukikije hamwe n'ibindi binyabiziga biri kugendera mu cyerekezo kimwe.

Ikinyabiziga cyagenewe gutwara imizigo hakubiyemo n'ibikoresho bikoreshwa ahantu bari kubaka, kiri kugendera mu muhanda wa kaburimbo, iburyo bwabo hari n'ahantu abanyamaguru banyura mu gihe badahuye n'imodoka.

Ikinyabiziga cyahawe uruhushya rwo kugendera mu muhanda, gifite ubushobozi bwo gutwara imizigo n'ibikoresho bikoreshwa mu kubaka ndetse n'ibindi, kikaba kiri kugendera mu muhanda wa kaburimbo iburyo.

Ikinyabiziga cyahawe uruhushya na leta, kikaba cyaremewe gushyirwa mu muhanda muburyo bwo kugira ngo gifashe abantu mu gutwara imizigo, kiri kugendera mu muhanda wa kaburimbo, hamwe n'ibiti bigiye biri impande yabo.

Uburyo Leta yateganyije bwo gutwara abantu benshi bishoboka aba ari ikinyabiziga kiri kugendera iburyo bw'umuhanda kiri mu muhanda wa kaburimbo cyagenewe gutwara abantu benshi, hakaba hari n'akayira k'abanyamaguru ndetse n'umunyamaguru uri gutambuka mu cyerekezo cy'ibumoso.

Uburyo leta yagiye iteganya bwo gushyira ibinyabiziga mu muhanda bishinzwe gutwara abantu benshi, kikaba kiri kugendera mu muhanda wa kaburimbo iburyo ndetse n'ahantu abanyamaguru banyura.

Ikinyabiziga cyagenewe gutwara imizigo gitwawe n'umuyobozi wacyo kiri kugendera mu cyerekezo cy'iburyo mu muhanda wa kaburimbo hamwe n'ahantu abanyamaguru banyura ndetse n'ibiti ku ruhande.

Uburyo Leta yateganyije, bwo gushyira ibinyabiziga binini bishinzwe gutwara abagenzi, kiri kugendera mu muhanda wa kaburimbo, ndetse n'ahantu abanyamaguru habugenewe banyura, ndetse n'ibiti bigiye biri ku ruhande.

Ikinyabiziga kirekire kinini cyagenewe gutwara ibizigo, kiri kugendera mu muhanda wa kaburimbo mu cyerekezo cy'iburyo, hakaba hari n'ibiti bigiye bigikikije impande yacyo.

Uburyo bundi Leta yagiye iteganya bwo gushyira ibinyabiziga birebire bishinzwe gutwara imizigo mu buryo bworoshye, kikaba kiri kugendera mu muhanda wa kaburimbo iburyo bw'umuhanda ndetse n'ahantu abanyamaguru banyura.

Uburyo leta yateganyije bwo gushyira ibinyabiziga mu muhanda kikaba cyaragenewe gutwara imizigo harimo n'ibikomoka ku mata ndetse n'ibihingwa biri kugendera mu muhanda wa kaburimbo ibumoso.

Uburyo leta yateganyije bwo kubaka umuhanda wa kaburimbo, ugendwa mu byerekezo bitandukanye, hakaba harimo hanagenderwamo ibinyabiziga bishinzwe gutwara imizigo, hakaba hari n'akayira kabugenewe abanyamaguru banyuramo.

Ibinyabiziga bibiri biriri mu bwoko butandukanye, icyagenewe gutwara abantu ndetse n'ikindi cyagenewe gutwara imizigo byose biri kugendera mu muhanda, hakaba hari n'igare ziri kugendera mu kayira k'abanyamaguru.

Ikinyabiziga kiri kugendera mu muhanda wa kaburimbo mu cyerekezo cy'iburyo cyagenewe gutwara imizigo .Kikaba cyegeranye n'indi bikorwa remezo ari byo inzu zo guturamo, hamwe n'ubucuruzi.

Aho leta yateganyijwe hashinzwe guhagarara ibinyabiziga byose bishinzwe gutwara abantu, bikaba biri kunyura mu muhanda wa kaburimbo, hamwe n'umuntu ushinzwe umutekano mu muhanda.

Ikinyabiziga gifite amapine atatu kiri kugendera mu muhanda wa kaburimbo, cyagenewe gutwara imizigo ndetse n'ibindi bintu bitandukanye, kiri kugendera mu cyerekezo cy'iburyo, iruhande rwaho hakaba hari akayira k'abanyamaguru ndetse n'ibiti.

Ikinyabiziga kiri kubisikana n'ikindi kimwe kigenewe gutwara abagenzi n'ikindi kikeneye gutwara imizigo muri rusange. Byose biri kugendera mu muhanda wa kaburimbo kandi impande yabo hagiye hari akayira abanyamaguru banyuramo.

Ibinyabiziga bishinzwe gutwara abagenzi bibavana hamwe bibajyana ahandi, bikaba bihagaze mu kayira abanyamaguru banyuramo hamwe ku ruhande hakaba hari n'umuhanda wa kaburimbo wagenewe kunyuramo ibinyabiziga ndetse n'amazu yagenewe ubucuruzi imbere.

Ikinyabiziga kiri kugendera mu muhanda wa kaburimbo iburyo, gitwaye amatungo maremare ariyo inka ndetse kikaba kiri kujya mu cyerekezo cy'iburyo, iruhande rwaho hakaba hari akayira k'abanyamaguru ndetse no hirya yaho hakaba hari aho imodoka ziparika.

Uruhare rukomeye leta yagize rwo gushyira ibinyabiziga byabugenewe gutwara abantu benshi icyarimwe bagiye mu ntara ndetse hakaba hari n'ahantu zihagarara kugira ngo zitegereze abagenzi.

Ahantu hagenewe kunyura ibinyabiziga bije gutwara abantu bari mu mijyi ahantu hagiye hatandukanye. Hakaba harateguwe na leta, kugira ngo hirindwe umuvundo w'ibinyabiziga mu mujyi.

Uburyo leta yateganyije bwo kubaka imihanda izajya igenderwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, haba ibitwara ibintu ndetse n'ibitwara imizigo, hakaba hari n'akayira abantu banyuramo mu gihe bari gutambuka kugira ngo badahura n'imodoka.

Ahantu hanini hisanzuye hagenewe mu kuruhukirwa n'abantu mu gihe cyose baje mu mujyi wa Kigali, hakaba hari ibiti byiza ndetse n'ibikorwa remezo bigiye biri iruhande byateganyijwe gukorerwamo ibikorwa bitandukanye.

Uburyo leta yateganyije bwo kubaka ibibuga byagenewe gukinirwaho imikino y'imyidagaduro, ikaba hakorwa n'imikino ngororamubiri mu buryo bwo kwinezeza.

Uburyo leta yateganyije bwo gushyira ibyapa bishinzwe kuyobora abayobozi b'ibinyabiziga ko ahantu bageze imbere hari ahantu habugenewe kwambukira ndetse n'umuhanda ushamikiye ku cyerekezo bari kunyuramo.

Icyapa gishyirwa iruhande rw'umuhanda iburyo, kimenyesha abayobozi b'ibinyabiziga ko icyerekezo bari kujyamo umuhanda unyerera, cyangwa imbere yaho hari ibintu biteje akaga. Kikaba kigizwe n'amabara atatu ariyo umweru, umukara ndetse n'umutuku.

Icyapa gishyirwa iruhande rw'umuhanda, kimenyesha abayobozi b'ibinyabiziga ko umuhanda munini barimo, imbere yawo hari undi muhanda ushamikiye kuri wo mutoya uri mu cyerekezo bari kujyamo.

Uburyo leta yateganyije bwo gushyira ibyapa byabugenewe mu mihanda iburyo, kibimenyesha umuyobozi w'ikinyabiziga ko agomba kugenda gake muri icyo cyerekezo ari kujyamo.

Icyapa cyereka abayobozi b'ibinyabiziga ahantu bagomba gusiga abagenzi mu gihe cyose hari ushatse kuvamo. Kikaba kigizwe n'amabara abiri, hakaba ari yo umukara ndetse n'ubururu. Kikaba gishyirwa iburyo bw'umuhanda.

Icyapa gishyirwa iruhande rw'umuhanda, kikaba gishinzwe kumenyesha abayobozi b'ibinyabiziga ko aho icyerekezo bari kujyamo imbere y'aho hari abantu bambukira ndetse n'ahantu abantu banyura.

Uburyo leta yateganyije bwo gushyira ibyapa bimenyekanisha icyerekezo abayobozi b'ibinyabiziga bari kuganamo, hakaba hari n'imihanda ishinzwe kugenderwamo n'ibinyabiziga mu byerekezo bitandukanye.

Icyapa gikoreshwa mu muhanda cyereka abayobozi b'ibinyabiziga ko icyerekezo cy'umuhanda bari kwerekeramo imbere yaho hari igikorwa kiri gukorwa, yaba ari ukubaka umuhanda cyangwa kuwusana.

Icyapa gishyirwa ahagana iburyo bw'umuhanda, kikaba kimenyesha abayobozi b'ibinyabiziga bashinzwe gutwara ikinyabiziga cyagenewe gutwara abantu benshi, aho bagomba guhagarara, abagenzi bakaba bavamo.

Uburyo leta yateganyije bwo gushyira ibyapa bigaragaza akarere uwo muhanda urimo, ndetse na nimero zawo kugira ngo ujye uyobora abantu mu gihe cyose bari gushaka kujya muri icyo cyerekezo.

Uburyo Leta yateganyije bwo gushyira icyapa kimenyesha abayobozi b'ibinyabiziga ko icyerekezo bari ku gikaramo cy'umuhanda, imbere yaho hari umuhanda mutoya bagomba kugabanya umuvuduko.

Igikorwa remezo cya Leta ari cyo icyapa gishyirwa iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo, kikaba kimenyesha abayobozi b'ibinyabiziga ko nta cyerekezo kibisikana n'ikindi kiri aho, kikaba kigizwe n'amabara abiri, umukara n'umutuku.

Icyapa cyashyizweho na leta kimenyesha abayobozi b'ibinyabiziga ko icyerekezo bari kuganamo cyose gifite amahuriro y'imihanda agiye ashamikiyeho ko bagomba kwitegura.

Icyapa gishyirwa iruhande rw'umuhanda iburyo, kikaba cyereka abayobozi b'ibinyabiziga ko icyerekezo bari kuganamo kirimo ibyago cyangwa harimo gukorerwa imirimo runaka.

Icyapa gishyirwa iruhande ku muhanda, kikaba kimenyesha abayobozi b'ibinyabiziga ko icyerekezo bari kujyamo bagomba kwitegura guhagarara, kikaba kigizwe n'amabara atatu ariyo umutuku, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Icyapa kimenyesha abayobozi b'ibinyabiziga icyerekezo bakwiriye kunyuramo .Kikaba ari icyapa gishyirwa iruhande rw'umuhanda iburyo, kikaba kigizwe n'amabara abiri ariyo umukara ndetse n'umuhondo.

Ibikorwa remezo ari byo inzu zagenewe guturwamo n'abantu, hakaba hari n'ibiti bitanga umuyaga ndetse n'insinga z'amashanyarazi zishinzwe gutwara umuriro mu ngo z'abantu.

Uburyo bumwe leta yagiye iteganya bwo gutuza abaturarwanda mu midugudu, ahantu hatarari amanegeka ndetse habugenewe. Hakaba hari n'ibiti bishinzwe gutanga umuyaga.

Uburyo leta yagiyei iteganya bwo gutuza ahantu abantu hatari akajagari ndetse no kuzamura inzu z'ibyitegererezo ahantu habugenewe, hakaba hari ibiti bigiye biri impande.

Igikorwa remezo ari cyo inzu yagenewe guturwamo ya etaje, kandi ikaba izitiye iri mu gipangu, nanone hakaba hari ikindi gikorwa remezo cyagenewe gutwara amashanyarazi mu ngo z'abantu ndetse n'ibiti bi bigiye biri ku mpande.

Inyubako ndende zigeretse inshuro ebyiri zikaba zaragenewe gukorerwamo ibikorwa bitandukanye harimo n'aho bacururiza ibintu harimo ibitegurwa ku meza ndetse ibiribwa hamwe n'ibishyirwa muri salon hakaba hari naho imodoka zihagarara.

Uburyo bwateganyijwe bwo kubaka inzu zigezweho zagenewe gukorerwamo inganda cyangwa kubikwamo ibintu bigiye bitandukanye, baba bafite amadirishya manini ndetse n'ibyuma bishinzwe kugabanya ubushyuhe mu nzu.

Igikorwa remezo cya leta aricyo inzu ndende ya etage yagenewe guturwamo ikaba igizwe n'ibyumba byinshi abantu bashobora kubamo ndetse n'amashanyarazi agiye ari ku mpande n'ibyuma bishinzwe kugabanya ubushyuhe mu nzu.

Igikorwa remezo ari cyo inzu yabugenewe ibikorwa by'ubucuruzi hamwe n'ibindi bintu byose bigendanye n'ubucuruzi hakaba hari ahantu hagenewe guhagarika ibinyabiziga ndetse n'aho abanyamaguru banyura bazamuka.

Igikorwa remezo ari cyo inzu, yagenewe guturwamo n'abantu. Ikaba iri ahantu heza kandi hasi yaho hakaba hari ubusitani ndetse n'ibiti bigiye bikikije icyo gikorwa.

Igikorwa remezo cya leta ari cyo inzu yo guturamo, yabugenewe, hakaba hari n'ahandi hagenewe guhagarika ibinyabiziga mu byerekezo bitandukanye...

Igikorwaremezo ari cyo inzu igenewe guturwamo, ikaba izitiye n'igipangu cy'umukara ndetse iyo nzu ikaba ifite amadirishya ndetse n'amarido imbere yaho ndetse n'ahantu bigiye binjirira, hamwe n'ibiti bigiye biri impande zaho.

Igikorwa remezo ari cyo inzu ndende ya etaje, yagenewe gukorerwamo ibintu bitandukanye, harimo guturamo ndetse n'ubucuruzi, hakaba hari n'ibinyabiziga bihagaze ku mpande ndetse n'icyapa kigaragaza icyo inzu yagenewe gukorerwamo.

Uburyo leta yateganyije bwo gukata amasite ahantu hagenewe guturwa, hakaba hari amazu yagiye ashyirwa ahantu hamwe habugenewe arimo guturwamo ndetse ahandi hakaba haragenewe ibikorwa by'ubuhinzi.

Uburyo leta yagiye iteganya bwo gutuza abantu mu midugudu, aho bidateje akaga kandi hakaba hari n'amazu yagenewe guturwamo ndetse n'ibibanza byo guhingamo.

Igikorwa remezo ari cyo inzu ndende igenewe gukorerwamo ibintu bitandukanye, harimo gucururizamo, ndetse hakaba harimo n'amacumbi yagenewe gukodeshwa by'akanya gato, hakaba hari ibinyabiziga biparitse iruhande rw'iyo nyubako.

Uburyo leta yateganyije bwo kubaka ahantu habugenewe ibinyabiziga bigomba guhagarara, mu buryo bwo kwirinda umuvundo ahantu hateraniye ibinyabiziga byinshi, hakaba hari n'uturongo dutandukanya mu mwanya wabyo.

Igikorwaremezo ari cyo inzu ndende yagenewe gukorerwamo ibikorwa bitandukanye, harimo iby'ubucuruzi ndetse n'igura n'igurisha ryashyizweho na Leta, hakaba hari ibinyabiziga bihagaze iruhande rwayo.

Igikorwa remezo cya leta ari cyo umuhanda wa kaburimbo ugendwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, yaba ibijya iburyo ndetse n'ibijya ibumoso, hamwe n'ahantu abanyamaguru banyura ndetse n'amazu yagenewe guturwamo agiye ari ku mpande.

Igikorwa remezo cya leta ari cyo umuhanda wa kaburimbo, wagenewe kunyurwamo n'ibinyabiziga mu byerekezo bitandukanye, hagati yabyo hakaba hari ubusitani ndetse n'ikinyabiziga ari cyo ipikipiki iri kugenda.

Igikorwaremezo cya leta ari cyo umuhanda wa kaburimbo ugendera mu byerekezo bitandukanye, hakaba hari n'ahantu hashushanyije imirongo minini y'imyero igaragaza aho abanyamaguru bakwiriye kunyura mu gihe bambukiranya.

Igikorwaremezo ari cyo umuhanda wa kaburimbo wagenewe kunyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye mu byerekezo bitandukanye, hakaba hari aho ibinyabiziga bihurira kimwe gifata ibyekezo bitandukanye.

Ibikorwaremezo bya leta, ari byo umuhanda wa kaburimbo wagenewe kugendwamo ibinyabiziga bitandukanye, bikaba biri no kugendera mu byerekezo bitandukanye ndetse hagati y'umuhanda hakaba harimo ubusitani.

Uburyo leta yateganyije bwo kubaka imihanda ya kaburimbo igenda mu byerekezo bitandukanye ibinyabiziga binyuramo. Hamwe n'ahantu abanyamaguru banyura kugira ngo badahura n'impanuka mu gihe cyose ibinyabiziga bitambuka.

Igikorwa cya leta ari cyo umuhanda wa kaburimbo wagenewe guhuriramo imihanda igana mu byerekezo bitandukanye ukaba uri kugendwamo n'ibinyabiziga mu cyerekezo cy'iburyo ndetse n'abanyamaguru bari kuwambukiranya.

Uburyo leta yateganyije bwo kubaka imihanda ya kaburimbo, igenewe kunyurwamo n'ibinyabiziga ndetse n'ahantu abantu bambukira hari imirongo minini y'umweru ndetse ni mu byerekezo bigiye bitandukanye n'ahantu abanyamaguru banyura.

Uburyo leta yateganyije bwo kubaka umuhanda ushamikiye ku yindi kugirango ibinyabiziga bizajye byoroherwa guhindura icyerekezo akaba ari uburyo leta yateganyije bwo kubaka kaburimbo.

Uburyo Leta yagiye iteganya imihanda ya kaburimbo, ifite aho ihurira n'indi kugira ngo bijye byorohera abayobozi b'ibinyabiziga mu gukata bitabagoye, hakaba hari n'ahantu hari ibiti bigenewe gutanga umuyaga.

Ibikorwa remezo bya leta harimo umuhanda ndetse n'ibindi binyabiziga, uwo muhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'ibinyabiziga bitandukanye hamwe n'igare hakaba hari n'imirongo ishushanyije mu muhanda yerekana ubugari bw'umuhanda.

Inzira cyangwa ahantu hagenwe na leta, ushobora kunyura mu gihe cyose uri kugenda n'amaguru, kandi iruhande rwaho hakaba hari' umuhanda wa kaburimbo wabugenewe, hagenewe kunyurwamo ibinyabiziga. Hakaba hari n'icyapa kigaragaza ko imbere aho mu kerekezo uri kujyamo, harimo ikigo cy'amashuri kiri aho.

Ikinyabiziga kirimo umuyobozi wacyo uri kugendera mu buryo bw'umuhanda wa kaburimbo, ari mu isangano rya wo, akaba ari igikorwa cya leta cyo kugira ngo imodoka zibone umutekano mu muhanda. Hakaba hari n'ibiti bigiye biri ku mpande.

Igikorwa remezo ari cyo umuhanda wa kaburimbo, ugenda mu byerekezo bitandukanye, ufite n'amashami yawo wagenewe kugendwamo n'ibinyabiziga, kikaba kiri kugendera iburyo, ndetse iruhande rwaho hakaba hari ibiti ndetse n'ahantu abanyamaguru banyura.

Igikorwa remezo cya leta aricyo umuhanda wa kaburimbo wagenewe kunyuramo ibinyabiziga bitandukanye, hakaba harimo n'ibinyabiziga byagenewe gutwara abantu benshi ndetse n'imizigo, hakaba harimo ibiti iruhande rwawo.

Uburyo leta yateganyije bwo kubaka umuhanda ugana mu byerekezo bitandukanye ukaba waragenewe kunyurwamo ibinyabiziga, hamwe n'amapikipiki ari kugenda mu kindi cyerekezo.

Igikorwaremezo ari cyo umuhanda wa kaburimbo ugenewe kugendwamo n'ibinyabiziga mu byerekezo bitandukanye, hakaba hari n'ibiti bigiye bikikije uwo muhanda bishinzwe gutwara umuyaga.

Igikorwa remezo cya leta aricyo umuhanda wa kaburimbo, wagenewe kunyurwamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye mu byerekezo bitandukanye, hakaba hari n'ahantu habugenewe abanyamaguru banyura mu gihe bari kwambukiranya umuhanda.

Uburyo leta yagiye iteganya bwo kubaka imihanda ya kaburimbo igenewe kugendwamo n'ibinyabiziga by'ubwoko bwose ndetse n'ibyapa bigaragaza ko hari imihanda ishamikiyeho ndetse n'amatara yaka mu gihe bwije.